Umugabo uhagaze hagati ya kaburimbo, ni igikara afite imisatsi ishwambaguritse n'imyenda icitse mu ntoki afite imineke, uyu mugabo akaba afite uburwayi bwo mu mutwe.